Ikirangantego cya unisefu, bisobanura ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima ndetse n'imibereho myiza y'umwana, bamuhereza ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bitandukanye bimufasha mu mikurire.

Umudamu uri kwigisha umwana mutoya uburyo boga ibiganza bakoresheje amazi meza n'isabune ndetse uyu mwana ni umunyeshuri yambaye impuzankano.

Abantu benshi bari mu nama bicaye bakurikiye cyane, bayobowe n'abantu batandatu bicaye imbere yabo babareba, barimo kuganira ku bijyanye no gutora abayobozi.

Abantu benshi bigaragara ko bakikije umurwayi wa ebola w'umugore, aho bashyizemo intera kugira ngo atayibanduza kuko indwara ya ebola irandura cyane.

Akana gatoya kari ku ivomero karimo koga intoki, karimo kureba inyuma kishimye cyane, ku ivomero hamanitseho icyapa ndetse iruhande rwaryo hari ibiti byinshi.

Abagore bari ku ivomero, umwe ari kuvomera mu ndobo ndetse abandi babiri bari kuzunguza icyuma cyo ku mugezi, amazi akaza akagwa mu ndobo ndetse inyuma yabo hari igiti kirekire.

Umukobwa mwiza usutaraye imbere ye hari amabafu abiri agerekeranije hagati hateretsemo ijerikani y'umuhondo, inyuma ye hari umugozi umanitseho imyenda ifuze ndetse ku ruhande rwe hari inyubako y'amabati gusa.

Abantu bicaye mu kazu kubakishijwe ibitambaro byo mu mabara asa n'ay'ibendera ry'u Rwanda ndetse umuntu umwe ahagaze imbere yabo afite indangururamajwi arimo abaganiriza, ku ruhande rwabo hari icyapa gishushanyijeho abantu bari mu busitani.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, wambaye impuzankano, ari gukarabira kuri kandagira ukarabe akaraba amaboko, inyuma ye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi baje kuvoma, ndetse umugezi wubakanye n'inyubako, hari ibijerekani byinshi, ndetse barategereje ko byuzura bagatwara amazi, kandi inyuma yabo ndetse n'inyuma y'inyubako hariyo ibiti birebire.

Abantu benshi bambaye imyenda y'akazi ndetse n'amakarita mu ijosi y'akazi, imbere yabo hari umuyobozi ari kubaganiriza ndetse bari kumwakirana urugwiro bishimye, bari ku nyubako nziza ndetse hanze yayo hahinze ibiti birebire.

Abagore bicaye ndetse bari kumwe n'umuganga, arimo kubapima umuvuduko w'amaraso ndetse buri mugore afite igipapuro cy'umweru mu ntoki, hirya yabo nta ubusitani bwiza ndetse n'inyubako bariho na yo ni nziza.

Umuntu uri kogera ikiganza, ku gihombo kizana amazi mu mazi atemba, ndetse ahantu ari hari ubutaka, ndetse n'ibyatsi byinshi byahameze.

Abana batoya b'abahungu bari ku ivomero bafite ikijerekani cy'ibara ry'umuhondo, umwe ari inyuma ari kuzunguza amazi akaza ariko ari kugwa hasi ntabwo ari kugwa mu ijerekani, inyuma yabo hari ikibuga kimezemo ibyatsi.

Abana batoya bambaye impuzankano, ariko b'abahungu bari kunywa amazi yo kuri robine, bakoresheje iminwa batezeho ibiganza byabo.

Umubyeyi uteruye umwana ndetse n'umuganga arimo kuvura umwana yishimye, arimo kuganiriza nyina w'umwana amuhumuriza ndetse hano ni mu cyumba cyo kwa muganga.

Abantu bunamye bafite ibivomesho by'indobo, barimo kuvoma mu mazi menshi atemba, inyuma yabo hari ibicucu kuko akazuba kari kuva.

Urujya n'uruza rw'abantu aho bubakishije amahema ndetse hari n'imodoka, hagati yabo hari ibendera ry'u Rwanda, inyubako ndetse n'ubusitani.

Umwana mutoya uri ku ivomero, ari kuvoma akoresheje agakombe ndetse arishimye cyane ari guseka, inyuma ye hari ibyatsi byinshi.

Abana babiri b'abakobwa bagiye ku ivomero bamaze kuvoma ndetse bavomeraga mu ndobo, umwe ari gufasha undi kwikorera ndetse bahagaze mu kibuga kimezemo ibyatsi.

Abantu benshi bagiye kuvoma, umwana ndetse n'umudamu ni bo begereye ivomero, amazi ntaratangira kuza, ariko bafite ibijerekani bibiri byo mu ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi b'abagore n'abagabo bicaye bari mu nama, bicaye barebana ndetse hagati yabo hari umugabo uri kubakoresha inama abaganiriza, yambaye umwenda wabugenewe w'umweru.

Abantu benshi bicaye bambaye udupfukamunwa ndetse harimo babiri bari gukoresha mudasobwa, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo akangurira ababyeyi gusuzumisha abana nyuma y'uko babyaye, nyuma y'iminsi makumyabiri n'ine cyangwa amasaha arindwi.

Abantu bicaye barimo kuganira, barimo abadamu n'abagabo, umudamu umwe afite indangururamajwi ari kuganiriza abandi ndetse buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye ku meza, inyuma yabo hari amarido yo mu ibara ry'ubururu.

Umurwayi ari kwa muganga, ari kwitabwaho n'abaganga ndetse bafite ibikoresho byabo, aho bari kumupima umuvuduko we w'amaraso.

Abantu benshi b'abana bagiye ku ivomero, bafite ibivomesho bitandukanye, umwe ari inyuma y'ivomero ari kujya azunguza icyuma amazi akagwa mu majerekani, inyuma yabo hari umusozi uriho ibyatsi ndetse n'ubutaka.

Umwana mutoya w'umuhungu wagiye ku ivomero, arimo kuvoma afite amajerekani atatu, arishimye cyane, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibihingwa by'ibitoki.

Abantu benshi b'abadamu bahagaze bifashe neza harimo bamwe bambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko iri ari itsinda rikorera hamwe ndetse rifite intego ariko ry'abagore gusa.

Abana benshi bishimye, imbere yabo hari umudamu wishimye na we wambaye amadarubindi hari ikintu bari kwitegereza ndetse kibashimishije ni ukuri barishimye.

Abantu benshi bicaye, umugore uhagaze ateruye umwana ndetse afite ifishi y'umuhondo mu ntoki ndetse na mituweli, bigaragara ko hano abo bantu bari baje kwivuza cyangwa kuvuza abana.

Abantu babiri, umugabo n'umwana bari ku ivomero, umugabo arahagaze afite ingata iboshye mu makoma, ndetse umwana na we ari guterura indobo irimo amazi, yamunaniye.

Umudamu wagiye kuvuza umwana, muganga wambaye imyenda yabugenewe, arimo kwasamura umwana, amuha imiti ndetse barimo kuganira, barishimye cyane.

Abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe, umwe arimo kuvura umusaza, apima uko umuvuduko we w'amaraso uhagaze ndetse imbere yabo hari ameza ariho imiti itandukanye yo kwa muganga.

Abanyeshuri batoya bo mu mashuri abanza bambaye impuzankano bari ku mugezi bari kuvoma, bafite akajerekani ndetse n'indobo eshatu zifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari ibiti bibakikije ndetse hirya nko muri metero zirindwi hubatse inzu iteye ubururu n'umweru.

Umwana mutoya w'umukobwa, ari ku ivomero, arunamye, arimo koza indobo ndetse inyuma ye hari ibiti ndetse n'imbuga y'igitaka.

Abantu benshi baje kuvoma, bigaragara ko bategereje amazi, havoma umwe, umwe ndetse amajerekani ni menshi, hari abaje kuvoma n'amagare, ndetse hari n'abaje kuvoma n'ikirenge.

Abantu babiri bari ku ivomero, bari kuvoma, buri wese afite ijerekani ye ndetse bahagaze ku mbuga y'igitaka bakikijwe n'ishyamba.

Abantu benshi b'abagore, bari imbere y'inyubako yubakiyeho umugezi, hariho ibijerekani byinshi ndetse umwe muri abo bantu afite ikijerekani mu ntoki, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu barimo kuganira na muganga w'umugore barishimye cyane, muganga arimo kubasobanurira ku bintu bitandukanye ndetse hano ni mu cyumba cyo kwa muganga hasa neza cyane.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abagore, n'abagabo, ndetse banyweye n'icyayi, imbere yabo hateretse ubukombe, hari n'ameza, ndetse uri kubaganiriza ni umugabo.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi n'abana babo baje kubapimisha ibiro bagira ngo barebe aho umwana ahagaze mu mikurire ndetse bari kumwe n'ubishinzwe wambaye umwenda wabugenewe.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abadamu bateruye abana ndetse inama iyobowe n'umugabo ufite ikaramu n'ikayi mu ntoki, arimo kubasobanurira ku kintu runaka ndetse imbere yabo hari inyubako yubakishijwe n'ibiti.

Umugore uri gukoresha kandagira ukarabe, yubakishije ibiti ndetse akajerekani kariho karimo, amazi arimo koga ibiganza ndetse ari iwe mu rugo kuko inyuma ye hari inzu ye.

Ukuboko k'umurwayi aho bahinnye agapira yari yambaye ndetse n'ibiganza by'umuganga wambaye ga, arimo gutera urushinge umurwayi mu rwego rwo kumurinda indwara.

Abantu bari ku ivomero buri wese afite ijerekani ye ari kuvomeramo, hejuru yabo inyuma hari umugore wambaye umwenda wabugenewe, barimo kuganira bishimye cyane.

Abantu bahagaze abagore n'abagabo ndetse harimo babiri bambaye imyenda iasa, inyubako bahagaze imbere yanditseho amagambo avuga ngo (sale de conferance) bisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda ko ari inzu ikorerwamo inama y'abayobozi.

Umwana mutoya w'umukobwa, wunamye urimo koga mu ntoki ku ivomero, akoresheje ibase y'umukara ndetse inyuma ye hari urukuta rwubakishije amatafari.

Umugabo ufite agakombe mu ntoki arimo gukarabya utwana mu ntoki, turishimye cyane ndetse hasi y'amaboko y'utwana hari ibase y'ibara ry'umutuku, bahagaze mu muhanda w'igitaka ku ruhande hari ibyatsi.

Ab'ubuzima bambaye imyenda yabugenewe ndetse barishimye cyane, bari kwifotoza, inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa ndetse umugabo umwe ari guhereza umwana mutoya ikinini, bari mu nama abandi bafite amakaye bari kwandika, ibyo bumvise.

Abantu benshi barimo abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse bambaye impuzankano ndetse n'abaturage basanzwe bakuru, babiri muri bo umwana ndetse n'umugabo bari kuvoma ku ivomero.

Abana benshi batoya bari ku ivomero, bamwe muri bo itiyo inyuramo amazi yaratobotse. Bari koga mu ntoki bo bakoresheje ayo mazi agenda anyura mu mpande zitandukanye z'itiyo ndetse hasi yatetse ibase y'umutuku.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, ndetse aho bahagaze ni isima y'umutuku, bifashe neza baritonze, inyuma yabo hari igiti kirekire ndetse n'andi mazu, ubusitani ndetse n'ikirere.

Umugore uteruye umwana, ari kuri robine, arimo kuvomesha indobo y'umukara, uyu mugore arishimye cyane, inyuma ye hari ibiti byinshi, ndetse ari mu nyubako yubakishije ibiti.

Umwana w'umuhungu wagiye ku ivomero, ari kuvomesha indobo ndetse, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye byombi, agashyiraho umunwa, ndetse inyuma ye hari inyubako ikikijwe n'ibyatsi byinshi.

Abantu benshi bari mu nama, bicaye barebana, harimo abagore n'abagabo ndetse imbere yabo hateretse ameza ndetse nanone buri wese afite ikaye n'ikaramu, arakurikiye.

Abantu benshi bari mu nama bicaye ndetse n'abahagaze, umugabo wicaye arimo kubasobanurira, abaganiriza ku ngingo runaka naho ku meza imbere yabo hari mudasobwa ndetse na telefone.

Abantu benshi bicaye bari mu nama ndetse bakurikiye cyane, imbere yabo hari abantu bari kubakoresha inama batatu, aho buri wese afite mudasobwa. Umwe afite indangururamajwi, bigaragara ko ari we uri kuvuga, hari n'icyapa cyanditseho ko ari inama y'abafatanyabikorwa.

Abantu batatu, abagore babiri ndetse n'umwana, umugore yagiye kuvuza umwana, umuganga ari kuvura umwana ndetse yambaye imyenda yabugenewe, arimo kumufataho kugira ngo yumve ko ari guhinda umuriro mwinshi. Imbere ya muganga, hari ameza ariho impapuro n'ikaramu.

Abantu benshi, abicaye ku murongo w'imbere ku ntebe ndetse ab'inyuma barahagaze, ni abagabo n'abagore ndetse baritonze cyane, inyuma yabo hari icyapa cyo mu ishusho ry'ubururu.

Abantu benshi bagiye kuvoma bafite amajerekani, umwana ateze amazi, umugore arimo kuzunguza icyuma amazi akagwa mu ijerekani, inyuma abandi bantu barimo kureba uko babikora bishimye cyane.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, bamwe bafite amakaye n'amakaramu, bayobowe n'umugore uhagaze imbere yabo arimo kubaganiriza ndetse imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ku meza.

Umugabo uri kogera intoki kuri kandagira ukarabe yo mu cyaro, yubakishijwe ibiti ndetse n'akajerekani ari ko karimo amazi, ukandagira ku giti amazi akaza ugakaraba, arishimye cyane ari guseka, ku ruhande rwe hari indabo.

Umuntu w'umugabo uri ku ivomero, arimo gukoresha ijerekani yo mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari igihuru cy'ibyatsi byinshi.

Abantu benshi barimo kuvoma: abafite indobo, abafite amajerekani, bose barimo kuvoma. Hari imigezi ibiri, inyuma yabo hari ibiti ndetse harimo abana, abagore ndetse n'abagabo.

Abantu benshi bari ku ivomero, bitwaje amajerekani ndetse ku ruhande rwabo nko muri metero eshanu, harimo amazu atandukanye ndetse n'ibiti birebire.

Umudamu uhetse umwana nabi, ari ku ivomero, ari koza umupfundikizo w'indobo ndetse inyuma ye hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umwana mutoya uri ku ivomero, ari koga intoki ze zombi akoresheje amazi yo ku ivomero, imbere ye hari indobo ndetse inyuma ye nko muri metero icumi hahinze ibiti ndetse hubatse n'inyubako

Umwana w'umuhungu urimo kuvomesha igikombe cy'umweru, aho amazi ari guturuka mu kigega. Inyuma ye, hari inyubako y'amatafari ya rukarakara ndetse n'utwatsi.

Abantu benshi bishimye, barimo kwifotoza baseka ndetse bamwe muri bo bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n'amakarita mu ijosi.

Abana benshi ndetse n'umugabo bagiye ku ivomero, umwana umwe ari inyuma ari kuzunguza icyuma kugira ngo amazi age mu majerekani, inyuma yabo hamezemo ibyatsi ndetse n'amabuye manini.

Umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, yicaye yigunze ku muhanda ndetse afite ibintu mu ntoki byinshi bifite umwanda, ibyenda ndetse n'amashashi arimo amazi ndetse umuhanda yicayemo n'uw'igitaka.

Imodoka nini y'umweru yanditseho amagambo asobanura ko itanga imiti y'ubuvuzi bw'ibanze muri bugesera ndetse iparitse mu kibuga kirimo ibyatsi, ku ruhande rwayo hari abantu ndetse n'ibiti byinshi.

Umugore wambaye ishati y'ibara ry'umweru, ibiganza bye byombi bifashe mu mutwe, aho afite imisatsi ibohesheje ndetse inyuma ye hafite ishusho y'umweru.

Abantu babiri, umwe yicaye arigunze cyane, afite agahinda kenshi, undi arimo kumuhumuriza, amugira inama ndetse na we ababajwe n'ukuntu undi yigunze. Ashyize amaboko ku meza, ni ukuri arababaye pe!

Abantu benshi cyane: abana, abagore ndetse n'abagabo barishimye cyane. Bamanitse amaboko bafite amabendera y'u Rwanda, barimo kwamamaza umuyobozi wacu w'igihugu.

Umugabo wicaye hasi ubohesheje imisatsi ndetse yambaye ipine ry'imodoka, hirya ye hari abagabo babiri ariko bagaragara igice cyo hasi cyonyine, yicaye mu muhanda w'igitaka, ni umusazi.

Umuntu usa nabi ari mu ngarani y'ibintu byinshi by'imyanda, inyuma ye hari ikimoteri kirimo ibintu bitandukanye by'imyanda ndetse bigaragara nabi.

Umuntu wicaye hasi ku musambi, arimo kwiyumvira cyane yihebye, aboshye amaguru yombi, ku ruhande rwe rw'iburyo, hari umwenda w'igitenge ushashe hasi ku isima, inyuma ye hari urukuta.

Abantu bahagaze bishimye cyane barimo abagore n'abagabo, bamwe muri bo bafite ibyapa mu ntoki byanditseho, mento herifu mata, bisobanuye ko ari ubuvuzi bw'ibibazo byo mu bwonko, inyuma yabo hari ubusitani.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugore ndetse n'undi mukobwa, uyu mugore afite indangururamajwi mu ntoki arimo kuvuga ndetse n'isakoshi mu kuboko kw'ibumoso ari kuganiriza abaturage ndetse barishimye cyane.

Utwana dutoya two mu mashuri abanza, turihumye cyane turimo guseka ndetse tumwe muri two twambaye impuzankano, abandi nabo ntago bambaye impuzankano, barishimye cyane.

Abantu benshi bicaye mu matsinda n'abandi bahagaze, abicaye bari mu byatsi ndetse imbere yabo hari imodoka yanditseho amagambo asobanuye ko batanga ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu benshi bishimye bari kwifotoza bambaye imyenda isa hejuru ibara ry'ubururu, hasi bakambara abeshi amapantaro y'ibara ry'umukara ndetse bari mu nyubako nziza isa neza.

Umudamu uteruye umwana ari kumuganiriza cyane umwana ari guseka, bishimye cyane bombi ndetse bari ku nyubako nziza yubakishije amatafari ahiye azwi ku izina rya munyu, iyo nyubako ifite n'amadirishya y'ibirahuri.

Umwana w'umukobwa wicaye munsi y'igiti arahambiriye ukuguru, ahambirishijwe iminyururu ndetse arigunze cyane, kuri icyo giti handitseho amagambo menshi atandukanye.

Umudamu n'abana be bicaye mu mbuga, bari mu rugo iwabo, imbere yabo hateretse intara iriho ingano ndetse n'ingemeri bari gupimiramo ingano.

Abantu benshi barimo abaporisi ndetse n'abandi basanzwe bambaye imipira isa, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Umugore ndetse n'abana be babiri, uwo ahetse ndetse n'undi muto wigenza bari mu rugo mu cyumba, umugore atetse igikoma, afite ikiyiko ndetse ari kugenda avanga igikoma kugira ngo kidashirira.

Abantu bicaye bari mu nama, barimo kuvuga ku bijyanye n'indwara zo mu bwonko ,aho hari amagambo agaragaza ko ari umunsi mukuru mu isi yose, wahariwe kwiga ku bwonko.

Umuntu w'umugore ubana n'ubumuga bwo mu mutwe aricaye afite ibintu byinshi bitandukanye bisa nabi ndetse aho yicaye ni hagati mu bantu benshi kandi ni ku muhanda nyabagendwa.

Abantu babiri baremesheje inama, umugore n'umugabo, umugore afite indangururamajwi ari kuvuga, imbere yabo hari imeza iteretseho igikapu ndetse iriho n'urupapuro rw'umweru, hanze yabo hari ibiti byinshi.

Umwana mutoya uryamye, muganga na we afite ibikoresho byabugenewe ashaka kumukura amenyo kugira ngo ayakure neza ndetse yambaye n'imyenda yabugenewe.

Abantu babiri, umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga yambaye imyenda yabugenewe n'agapfukamunwa n'amadarubindi, ari gukura amenyo umwana w'umuhungu, akoresheje icyuma cyabugenewe.

Abantu babiri umuganga w'umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umurwayi w'umusore waje kwivuza, umuganga arimo kumukura iryinyo akoresheje ibyuma byabugenewe.

Umuganga arimo gukura umwana amenyo yambaye imyenda yabugenewe y'amadarubindi, itaburiya ndetse n'ibikoresho byabugenewe, umwana nawe aritonze yateze umunwa ngo bayakure.

Abantu benshi bahagaze, harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bari imbere y'akazu kubakishije ihema ry'umweru, gakikijwe n'amatara.

Abantu babiri, umurwayi ndetse n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe afite ibikoresho ari gukura amenyo uwo murwayi ndetse amuha serivisi zabugenewe.

Umurwayi uri kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga ndetse bakoresheje ibikoresho byabugenewe, barimo kumukura amenyo ndetse hirya hari n'undi muntu uhagaze.

Abana batoya, biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano, barimo koza amenyo bakoresheje uburoso bwabugenewe, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu babiri b'abaganga barimo gukora ubushakashatsi ku menyo bafite igikoresho kimeze nk'akanwa kabumbuye kirimo amenyo, bafite ibikoresho byabugenewe bari kwiga uburyo bakura amenyo.

Umugabo w'umunyafurika wambaye amadarubindi arimo gushinyika, agaragaza urugero rwiza rw'amenyo y'umweru ndetse akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo.

Abantu benshi bari mu nama, umwe ari kubereka uburyo bwo koza amenyo ukoresheje umuti wayo, baricaye imbere yabo hari amakorogate.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano biga mu mashuri abanza, barishimye cyane barimo koza amenyo bakoresheje umuti wayo ndetse n'uburoso bwoza amenyo buri wese afite agakombe karimo amazi.

Umuganga ufite igikoresho cyabugenewe, yakuye iryinyo mu kanwa k'umuntu ndetse aho yarikuye hari kuva amaraso menshi cyane, kandi uwo muntu ari kubabara cyane.

Umugore wambaye isengeri y'umweru, afite akaroso k'amenyo, arimo kuyoza ari kumwenyura cyane, kugira ngo avemo imyanda.

Umuganga wicaye, ufite igikoresho mu ntoki ndetse n'urugero rw'igikoresho kimeze nk'akanwa k'umuntu karimo amenyo, ari kwiga uko yakura amenyo ndetse yambaye imyenda yabugenewe.

Abantu bari ku ishuri, harimo umuganga uri kwigisha umwana muto uko boza amenyo bakoresheje uburoso bwayo, mu rwego rwo kugira ngo tuyoze tutikomeretsa ndetse abandi bari kureba na bo bigiraho.

Abantu babiri, umugore ndetse n'umwana w'umukobwa. Bigaragara ko uyu mugore, ari mama w'uyu mwana. Arimo amwigisha uburyo boza amenyo, bakoresheje uburoso bw'amazi ndetse barishimye cyane.

Abantu babiri umurwayi ndetse n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, uwo murwayi arimo kwishyirishamo amenyo mashya, muganga afite ibikoresho byabugenewe ari kumuha serivise.

Umusaza urwaye cyane ararembye, abantu babiri bari kumutsindagiza bashaka kumwicaza ku buriri ndetse bari mu cyumba cyo kwa muganga.

Abakecuru benshi bicaye ndetse barakurikiye baritonze cyane biragaragara ko bishimye ndetse inyuma yabo hahinze ibitoki, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse baritonze cyane.

Umwana ndetse na se, bari gukina bishimye cyane, umwana afite umupira w'amaguru mu ntoki, ndetse ari gukina na se, se awumwaka, bose bishimye bari guseka.

Abantu babiri bicaye bishimye, umusaza ndetse n'umukecuru, bigaragara ko uyu musaza ari umugabo w'uyu mukecuru, bari gukina urusoro ku meza ndetse umugore ni we ugezweho mu gukina.

Abantu batanu bishimye cyane, bari kwifotoza, barimo umusaza, umukecuru, imfura, umukurikira ndetse n'umuhererezi, bigaragara ko ari umuryango.

Abantu babiri, umukecuru ndetse n'umuganga w'umukobwa, umuganga yambaye imyenda yabugenewe, ndetse arimo kuganiriza umukecuru amuha ibinini ari bukoreshe, amwereka igihe ari bubinywere, ndetse umukecuru na we afite agakombe k'ikirahure karimo amazi.

Abantu babiri, umukecuru w'umuganga ndetse n'umurwayi w'umusaza, ufite agakombe k'ikirahure, ari kunywa, anywesha imiti, bari kuganira cyane ndetse barishimye.

Umukecuru wicaye mu kagare, ufite ubumuga ndetse n'umuganga arimo kumuvura, baricaranye mu cyumba cyo kwa muganga, barimo kuganira, barishimye.

Abantu bicaye ku buriri, bayobowe n'umugore munini ubyibushye, harimo abana n'abakobwa bakuru, barishimye cyane ndetse bari mu nyubako y'umweru.

Abantu benshi bishimye cyane, harimo abagabo nabagore, bari kwifotoza ndetse umugore bari kumuhereza impano y'ikiringiti bahagaze mu nyubako nziza.

Umukecuru n'umusaza baricaye, umusaza ari kwereka umukecuru ibintu muri terefone, barimo kurebamo bitonze, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahuri kirimo amazi ndetse umukecuru afite urupapuro rw'umweru mu ntoki.

Umurwayi w'umusaza uryamye ku gitanda cyo kwa muganga n'umuganga urimo kumuganiriza, uwo murwayi barimo kumupima umuvuduko w'amaraso, ku ruhande rwe hari ibyuma byo kwa muganga.

Abantu babiri umugabo n'umugore barimo gusoma, umugore afite igipapuro mu ntoki arimo kuganiriza umugabo, barishimye cyane ndetse imbere yabo hari imeza.

Abantu bicaye ku ntebe nziza barimo abagore n'abagabo, bamwe muri bo bafite inkoni ndetse baricaye bategereje serivisi zitandukanye.

Abantu bari mu cyumba, barimo kuganira bishimye, bari kurya, ndetse imbere yabo hateretse ameza, ariho amasahani, harimo n'ibiyiko, ndetse bari mu nyubako nziza, ifite amadirishya y'ibirahure.

Abantu babiri, umurwayi w'umugabo ndetse n'umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe, umuganga arimo kwigisha umurwayi gutambuka kugira ngo arebe ko yakize.

Abantu babiri umuganga w'umudamu ndetse n'umusaza, aho umuganga ari gusukira umusaza ikinyobwa ndetse anamwereka urugero rw'imbuto ashobora gukoresha kugirango azakire.

Abantu babiri: umurwayi ndetse n'umuganga w'umukobwa, uyu murwayi arwaye isereri, umuganga ari kumwigisha gutambuka kugirango arebe ko ari koroherwa.

Abantu babiri umukecuru hamwe n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, barasuhuzanyije ndetse barishimye cyane, barimo kuganira bari mu nyubako, inyuma yabo hari ubusitani.

Umusaza w'umunyafurika, ari gusoma igitabo ndetse arimo gutekereza kubyo ari gusoma aritonze cyane, afite ikaramu mu ntoki mu kiganza cye cy'ibumoso.

Abantu babiri umuganga w'umukobwa ndetse n'umusaza wicaye mu ntebe, bombi bambaye udupfukamunwa ndetse umuganga ari kuganiriza umurwayi, amwitaho amufungira ibipesu by'ishati ndetse bose bari guseka barishimye.

Abantu babiri, umuganga ndetse n'umukecuru, aho umuganga yambaye agapfukamunwa ndetse na ga mu biganza, ari kumutera urushinge, inyuma yabo hari ubusitani bwiza ndetse n'ikirere.

Umusaza ndetse n'abuzukuru be babiri, buri wese afite irindazi mu ntoki ndetse umusaza afite agakoni agenderaho, inyuma yabo hari inyubako, bigaragara ko hano ari mu rugo iwabo.

Abantu babiri umugabo n'umukecuru bari muri siporo, barishimye cyane bari kugenda baganira kandi bambaye n' imyenda yabugenewe. Bari mu mu muhanda ndetse inyuma yabo hari ibyatsi.

Umusaza wicaye wifashe mu gahanga ari gusoma igitabo, imbere ye hari ameza ndetse n'igikombe cy'ikirahure kirimo amazi.

Abantu babiri bishimye b’abagabo, umusaza ndetse n'umusore, bigaragara ko umusaza abyara uwo musore. Arimo kumwereka agatabo bari gusoma, barishimye cyane ndetse n'imbere yabo hateretse udukombe tubiri tw'umweru.

Umukecuru w'umunyafurika uri gukora siporo, yishimye cyane, arimo kunanura amaboko n'amaguru ndetse ari gukorera siporo hasi yahashashe agasambi.

Umukecuru wambaye amadarubindi, afite igikombe cy'amazi mu ntoki, amaze kunywa imiti iramubihiye cyane, yambaye n'amaherena ndetse yicaye ku gitanda cyo kwa muganga.

Abadamu babiri bishimye, bari gukora siporo bananura amaboko ndetse umwe yambaye amaherena, bari ku ruhande rw'umuhanda, mu ruhande rwabo rw'ibumoso hahinze ibiti birebire.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umukobwa w'umuganga, wambaye imyenda yabugenewe, bari kuganira bishimye cyane ndetse umuganga arimo guhumuriza umusaza ndetse inyuma yabo hari inyubako nziza n'igitanda kirimo umusego.

Abantu babiri, umukecuru ndetse n'umwana w'umukobwa, aho umukecuru ari kwigisha guteka umwana w'umukobwa, arimo amwereka uko bakata imbuga, inyanya, karoti ndetse n'ibindi, barimo kuganira bishimye cyane.

Umusaza wicaye ndetse n'umuganga uhagaze amufasheho, barishimye baranezerewe aho umuganga yambaye imyenda y'akazi ndetse n'umusaza afite inkoni mu ntoki, ikunze gukoreshwa n'abo mu zabukuru, bari mu nyubako irimo imitako y'indabo.

Abantu babiri, umusaza ndetse n'umuganga w'umugabo, bari kuganira umusaza arimo gusobanurira umuganga uburwayi afite ndetse umuganga ari kubyumva, na we amugaragariza ko yasobanukiwe.

Abantu babiri, umusaza ndetse n'umuganga w'umukobwa, aho umuganga ari kuvura uyu musaza, amureba umuvuduko w'amaraso.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ndetse bafite inyandiko imbere yabo hari urupapuro bafite mu ntoki bari gusomera hamwe, inyuma yabo hari intebe nziza ndetse bari no mu nyubako y'umweru.

Abantu babiri, umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umurwayi w'umugabo, umuganga ari kumwigisha kugendera ku mbago amuganiriza cyane.

Abantu babiri umugore ndetse n'umwana mutoya cyane baricaye barishimye cyane umugore ari kwigisha umwana uko babara akoresheje ibinini.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umukecuru baricaye barishimye cyane umusaza arimo gusobanurira umukecuru uko uno muti afite mu ntoki ukoreshwa ndetse umukecuru ari gukoresha mudasobwa kandi n'imbere y'umusaza hari ibipapuro ndetse n'udukombe.

Abantu benshi abahagaze ndetse n'abicaye, bamanitse ibiganza bishimye cyane bigaragara ko hano bari bari kwizihiza umunsi mukuru w'abagore, imbere yabo hari intebe, ameza ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu bicaye ndetse hagati yabo harimo umuganga, wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ikarita, biragaragara ko arimo kubavura abatera inshinge ndetse abaha n'indi miti, inyuma yabo nko muri metero ebyiri, hari umuntu w'umusore uhagaze wambaye umwenda w'akazi, murakoze.

Umuganga ndetse n'umurwayi aho umuganga ari kumupfuka, uyu murwayi yateze ukuboko bigaragara ko ari kwivuza, inyuma yabo nko muri metero ebyiri hariho abantu benshi bahagaze ndetse bagiye batandukanye.

Abagore bicaye ndetse buri wese ateruye umwana, barishimye cyane, barimo kuganira, bari mu nyubako iriho ibishushanyo bishushanyijeho abagore bateruye abana bishimye, ndetse n'abana nabo bashushanyije ku gishushanyo.

Abantu bicaye bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore barakurikiye cyane baritonze, bicaye ku ntebe zisa zo mu ibara ry'umutuku ndetse bari mu nyubako nziza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe n'udupfukamunwa, ndetse imbere yabo hari amateleviziyo, aba baganga ni abakora mu bijyanye no kubaga.

Umuntu uryamye hasi ndetse hariho n'abaganga bari kumwitaho bambaye udupfukamunwa, si abaganga gusa hari n'abakorerabushake. Uwo muntu uwo murwayi aryamye hasi mu byatsi ndetsetse inyuma ye hariho igiti kirekire.

Abantu benshi b'urubyiruko bari kwizihiza umunsi mukuru wo kwirinda virusi itera sida, bashishikariza abantu kuyirinda bakoresheje uburyo bwo kwipimisha buri munsi.

Abantu benshi bahagaze ndetse bifashe neza mu kinyabupfura, inyuma yabo hari icyapa cyo mu ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari ibyatsi, bahagaze mu kibuga ndetse harimo n'umuyobozi wambaye imyenda y'icyatsi tuzi nk'umudaso. Inyuma hari imodoka y'umweru.

Inyubako nziza y'ibitaro bya Rwamagana ihagazeho abantu imbere yayo bifashe neza bishimye bari kwifotoza ndetse ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi bavura Ebola, bambaye imyenda yabugenewe ndetse harimo n'abarwayi, abo baganga bari kwita ku barwayi babaha ubuvuzi bwose bushoboka.

Umurwayi uryamye ku buriri, arimo kwitabwaho n'abaganga, aho bari kumutera inshinge ndetse undi muganga arimo kumuhumuriza, amuganiriza...

Inyubako nziza kandi nini, ifite umuryango ufunguye, mu nzu harimo abantu barimo kugura imiti itandukanye, bitewe n'indwara barwaye.

Icyapa cyanditseho amagambo asobanura ko ari mu mujyi wa kigali ndetse gishinze mu muhanda nyabagendwa ariko w'igitaka umezemo ibyatsi, hirya yacyo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nini nziza, yanditseho amagambo ko ari Ikigonderabuzima cya Rwerere, ifite ubusitani hanze, ndetse n'ikibuga cy'igitaka, umurasire hejuru y'ibati ndetse n'ikirere.

Ahantu heza cyane hafite ubusitani bwiza buteye ubwuzu, ndetse hari n'imihanda myiza itandukanye igana ku nyubako, hari amatara menshi, ndetse n'ibiti birebire.

Abantu benshi abagore n'abagabo ndetse n'abana bicaye aho bakirira abagana ikigonderabuzima bategereje serivisi, ndetse iyi nyubako bariho yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nziza ifite inzugi z'ibirahuri, mu nzu harimo intebe z'ubwoko bwinshi ndetse hahinzemo n'indabo, hanze yayo hari amashyamba ndetse n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hanze yaho hari kugenda abantu batandukanye, hari ubusitani ndetse n'ikibuga kinini giteye sima, inyuma hari ibiti birebire.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ndetse n'abaganga bari kubitaho, bari kubaha serivisi zose zishoboka, ndetse banabaganiriza kandi bafite n'ibikoresho byabugenewe.

Inyubako nziza ifite amadirishya y'ibirahure, hari abantu bahagaze hanze yayo ndetse n'imodoka, bigaragaza ko ari ivuriro ryitwa Sangwa ndetse rifite ubusitani hanze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda, umuganga umwe ari kumukura iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe, ndetse abo baganga bose bambaye imyenda yabugenewe.

Inyubako imanitseho icyapa gisobanura ko ari farumasi, ahantu batangira imiti ndetse na nimero ya telefone y'uhakora, ndetse hasi yawo hari umuntu uparitseho moto, ndetse n'undi uhagaze.

Inyubako nziza ndetse hanze hari abantu benshi bambaye imipira y'ubururu, imodoka ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko ari icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, hano bivuze ko bari kwizihiza cyangwa se bari kuganira, bita ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana.

Inzu nziza hanze yayo hari ubusitani bwiza ndetse imihanda ijyayo irubakiye neza, inyuma yayo hari amashyamba ndetse n'ikirere.

Abagabo babiri bishimye barimo kuganira, umwe barimo kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse undi aho yicaye imbere ye hari ameza, afite ikaye n'ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari ikizimyamwoto.

Inzu nziza hanze yaho hari ubusitani, iyi nzu yubakishije amatafari ahiye ndetse indi ifite ibirahuri by'umukara, inyuma hejuru hagaragara ikirere.

Inyubako nziza igeretse kabiri, amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ubusitani hanze yayo ndetse n'abantu batandukanye bari kuhashaka serivisi.

Inyubako nziza cyane igeretse, irimo kugendamo abantu benshi ndetse hanze yayo hari ubusitani hari n'ibendera ry'u Rwanda, biragaragara ko ari kwa muganga.

Icyumba kirimo intebe nyinshi zitandukanye, ameza ndetse n'ibitabo, harimo televiziyo ndetse n'ibishushanyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abarwayi babiri, umwe araryamye, undi yicaye ndetse n'umuganga arimo kugira uwicaye inama, arimo amusobanurira ndetse amuhumuriza.

Umuganga wicaye mu nyubako, yambaye umwenda wabugenewe ndetse arishimye cyane, inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga ndetse iyo nyubako arimo, ifite amadirishya y'ibirahuri.

Abantu batatu, abakecuru babiri ndetse n'umuganga, umuganga yambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'agapfukamunwa, ndetse ari kuganiriza aba bakecuru, barishimye, kandi ari kuvura umwe wo ku ruhande rw'iburyo, inyuma yabo hahinzeho ibiti birebire.

Inyubako nziza ifite ururabo mu nzu ndetse n'ameza ndetse n'amatara, hari ibimenyetso byerekana aho kunyura ndetse naho bitemewe.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, azwi ku izina rya mpunyu, iyi nyubako ifite urugi rw'ibirahure ndetse yanditseho amagambo asobanura ko hitwa isange kandi ko hari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya y'ibirahuri ndetse hanze yayo hari kugenda abantu benshi batandukanye, hari n'ubusitani bwiza busa neza.

Inyubako ndende, ifite ubusitani hanze ndetse hari icyapa kigaragaza abarwayi batandukanye, ibyumba baherereyemo. Hari aho bakirira indembe, aho babyarira, icyumba cy'ababyaye, icyumba cy'abagore, icyumba cy'abagabo, imbagwa ndetse n'aho bavurira indembe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ibitanda, imisego, mudasobwa, ndetse n'indi miti itandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byaho, harimo ibitanda, televiziyo zitandukanye ndetse n'ibikoresho bindi, iyo nyubako ifite ibara ry'umweru.

Ibtaro bya Kigina byubatse neza, hanze yabyo hari umugore uhetse umwana arimo kurira, ari kumuzengagiza kugira ngo ahore ndetse mo imbere harimo abandi bantu babiri ku muryango.

Inyubako nziza y'ibitaro bya CHUB by'i Butare, ibendera ry'u Rwanda, imodoka, amapikipiki, abantu bagenza n'amaguru ndetse n'ubusitani.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, azwi ku izina rya mpunyu, ifite intebe hanze zo mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubusitani, imihanda ijyayo ndetse n'amatara.

Inyubako nziza cyane, igeretse ifite amadirishya y'ibirahuri, ndetse ifite n'umuhanda wa kaburimbo wubatse neza uganayo, hanze yayo ndetse hari ubusitani.

Abantu babiri, umuganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, umuganga yambaye imyenda yabugenewe, arimo kuganiriza umurwayi amubaza uko yiyumva ndetse anamuhumuriza.

Inzu nini, nziza, ifite ubusitani ndetse iriho n'icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Iyi nzu ifite ibendera ry'u Rwanda hanze mu busitani ndetse ikagira n'umuhanda mwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ndetse n'abarwaza harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo amatara ndetse n'inzitiramibu ndetse icyo cyumba gifite amadirishya y'ibirahure.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bya Kabgayi ifite umuryango cyangwa se ubwinjiriro ndetse hagendamo abantu batandukanye harimo amatara ndetse n'ubusitani.

Inyubako nziza zifite ubusitani hanze ndetse zifite imihanda ijyayo yubatse neza, hahinzemo n'igiti kirekire ndetse hanaparitseyo imodoka ebyiri.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abarwayi, abaganga ndetse n'abakozi b'isuku bari gukora isuku kwa muganga, muri icyo cyumba harimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Inzu nziza, igiye ifite imiryango, ariko hamwe hacururizwa imiti, iyi nzu yitwa good life mu rurimi rw'icyongereza, mu rw'ikinyarwanda bisobanura ngo ubuzima bwiza, hanze yayo haparitse imodoka.

Inzu iriho icyapa kigaragaza ko ari farumasi batangamo imiti ndetse hariho nyir'iyo farumasi ndetse na nomero za telefone, hanze yaho haparitse umuntu utwaye moto ndetse no mu muryango hahagazemo umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda, televiziyo ndetse n'ikoranabuhanga n'irido, aho inyubako yabo y'icyo cyumba iteye irangi ry'umweru.

Inyubako nziza y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, iriho abantu benshi batandukanye ndetse hanze yayo hari umuhanda wa kaburimbo, unyuramo amagare, imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza y'ibitaro by'i Nyanza ifite urwinjiriro rugari ndetse hanze yayo hari umuhanda wa kaburimbo ushinzemo ibyapa bitandukanye bigaragaza ko ari ibitaro ndetse mo imbere hari ubusitani bwiza.

Inzu nziza igerekeranyije iriho abantu benshi cyane, ubusitani bwiza ndetse n'imodoka, bivuze ko, iyi nyubako ari kwa muganga, ni ibitaro abantu bagiye kwivuza.

Abaganga babiri, bari mu cyumba cyo kwa muganga, bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo, hari mudasobwa, bari kwiga ku magambo arimo biyongerera ubumenyi bwo kwa muganga.

Inyubako nziza cyane nyinshi. Zifite ubusitani hanze, ndetse nahari n'abantu ku mabaraza. zifite n'amatara, ndetse ziranageretse.

Icyumba cy'ibitaro byo kwa muganga, kirimo ibikoresho byaho bitandukanye, tereviziyo, intebe, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye, hejuru hari n'amatara.

Umuhanda wubatse neza unyura hagati y'inyubako, hepfo no haruguru yawo hari ubusitani bwiza ndetse hagati muri uwo muhanda harimo abantu bari kugendamo, umwana muto ufite ibase mu ntoki ndetse n'umugabo ufashe akana ke mu ntoki bagenda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byaho bitandukanye, harimo ibitanda, ameza, amatereviziyo, isaha ndetse n'ibindi ndetse hejuru hari amatara.

Ubwinjiriro bugari bw'ibitaro bya Kabgayi ndetse umuhanda n'igitaka, harimo abantu bari kugenda, abagenda n'amagare ndetse n'abagenza ibirenge ndetse harimo n'amatara ndetse n'ubusitani.

Iyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, azwi ku izina rya mpunyu, iyi nyubako yanditseho amagambo agaragaza ko ari aho bakirira ababyeyi barimo kubyara.

Kwa muganga umurwayi aryamye agaramye ndetse ararembye cyane, imbere ye hari umuganga ari kumwitaho. Munsi y'igitanda aryamyemo hari akajerekani k'umweru ndetse hirya gato hari indobo yifashishwa mu gushyiramo imyanda, hari n'ikindi cyumba ariko cyo nta muntu urimo, harimo ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba kinini cyane, kirimo intebe nyinshi, buri murongo w'intebe ufite ameza imbere ndetse iyo nyubako ifite amadirishya y'ibirahure.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe arimo gutera urushinge umurwayi. Yambaye ga afite urushinge mu ntoki, ndetse uruhande hari abandi barwayi baryamye.

Inyubako nziza y'ibitaro bya Kabutare, yubakishije amatafari meza ahiyiye azwi ku izina rya munyu, imbere yayo hari abantu bahagaze bitonze, barimo kuganirizwa ndetse inyuma hari imodoka iparitse.

Abakobwa batandatu bahagaze bambaye imyenda isa n'udupfukamunwa dusa ndetse buri wese azamuye igipfunsi, aha ngaha bari ni ku bitaro.

Inyubako nziza igeretse ndetse ni materineti mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni inzu y'ababyeyi hanze yayo hari abantu batandukanye baje kwivuza ariko b'ababyeyi.

Inzu nini nziza igeretse, iparitsemo imodoka nyinshi hanze ndetse ifite n'urwinjiriro, harimo n'ubusitani bwinshi ndetse yubatse neza cyane bigaragara ko ari inzu y'umukire.

Inyubako nziza yanditseho amagambo ko ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse imbere yayo hari abantu babiri bari kugenda mu mihanda itandukanye, hanze hari ibiti aribwo busitani ndetse n'urugo rwubakishije amatafari arahiye.

Icyumba cyo kwa muganga mu bitaro, abaganga bari kwita ku barwayi batandukanye ndetse abarwayi bambaye udupfukamunwa, abo baganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse bari kuganiriza abarwayi.

Inzu nini nziza itarasozwa kubakwa kuko ntirashyirwamo amadirishya n'inzugi ndetse iriho abantu babiri bambaye imyenda y'akazi. Ifite ibyatsi hanze ndetse hari n'abandi bantu babiri bahagaze hejuru.

Utwuma abana bariraho iminyenga bakishima ndetse n'inyubako nziza, bigaragara ko ari aho abana bigira, ubusitani bwiza ndetse n'ibindi biti bikikije iyo nyubako.

Amazu meza hanze hari ubusitani bwiza, aho umuhanda ujyaho ari mwiza cyane ndetse haparitsemo imodoka n'ipikipiki, mu busitani harimo ibendera ry'u Rwanda.

Ibitaro birimo abaganga ndetse n'abarwayi, ndetse abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa, harimo icyapa kigaragaza inzira yemewe abantu bagomba gucamo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi unabohesheje imisatsi arimo kwita ku murwayi, umurwayi yambaye akantu kagaragaza ko yahawe igitanda mu kuboko kw'ibumoso ndetse ku ruhande rwabo hari ibikoresho byo kwa muganga.

Umwana ubana n'ubumuga bwo kutagenda, wicaye mu kagare, ari mu muhanda imbere ye, ubwo hepfo y'umuhanda hari ubusitani ndetse ku ruhande rwe mu kuboko kw'iburyo nko muri metero eshatu hariho inyubako iteye irangi ry'umweru ndetse n'umuntu uri kugenda ku ruhande rwayo.

Umurwayi w'umudamu uryamye ku bitaro kwa muganga, imbere ye hari ibikoresho byo kwa muganga, harimo mudasobwa ndetse n'imiti itandukanye.

Abantu bicaye barimo kuganirizwa n'umugore, bari imbere y'inyubako nziza ya materineti, mu rurimi rw'ikinyarwanda ni inzu y'ababyeyi ndetse hanze yayo hari ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga benshi, bambaye imyenda yabugenewe, ariko si bose, bamwe bambaye iy'ibara ry'ubururu, abandi bambaye iy'ibara ry'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, ndetse muri iki cyumba harimo n'ibikoresho byo kwa muganga.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini, utuje cyane ndetse yicaye ahantu hubakishije amabuye, ku ruhande rwe nko muri metero icumi hari inzu.

Inyubako nziza cyane zubatse neza hagati yazo hari umuhanda wa kaburimbo mwiza ndetse hanze yazo zose hari ubusitani ndetse izo nyubako zifite amadirishya y'ibirahuri.

Abantu babiri bicaye umugore ndetse n'umugabo, umugabo yambaye umwenda w'akazi ndetse bari kuganira umugore ari gusobanura, inyuma yabo hari ibihingwa by'ibitoki ndetse hari indabo, inyubako yubakishije amatafari ya rukarakara ndetse n'inkwi n'ibafu.

Umukobwa uryamye hasi yubamye, ariko igice cyo hejuru ntabwo kigeze hasi ku butaka, hirya ye hari indabo ndetse inyubako arimo ifite ibara ry'umweru.

Umukobwa uboshye imisatsi ari gukora siporo, ananura akaguru ke k'iburyo, ak'ibumoso kari ku butaka, yambaye imyenda y'umukara ya siporo.

Ababyinnyi gakondo bari mu kibuga bambaye imyenda isa barimo kubyina, inyuma yabo hari abantu benshi barimo kubafana bishimye cyane ndetse inyuma y'abo bantu hari ibihingwa by'ibitoki.

Umugabo ufite ubwanwa w'umunyafurika, ari kunywa amazi meza, ari mu icupa ryiza, akoresheje akaboko kiwe k'ibumoso ndetse arararamye.

Umugabo w'umunyafurika wambaye umwenda w'umukara arimo kunywa amazi meza asukuye ndetse akoresheje icupa ryiza ry'umweru rifite isuku kandi afatishije akaboko k'iburyo.

Abaganga benshi bari mucyumba cyo kwa muganga, harimo abarwayi, ndetse aba baganga bari kureba videwo kuri mudasobwa, ndetse baritonze cyane.

Umuntu uri muri siporo wunamye, amaboko ye yombi afashe ku ivi ryo ku kuguru kwe kw'ibumoso ndetse yambaye isaha yo mu ibara ry'umukara, inyuma ye hari ibyatsi bitagaragara neza ndetse ahagaze mu muhanda wa kaburimbo.

Umugabo w'umunyafurika ari kwimenaho amazi ari mu icupa akoresheje amaboko ye yombi ndetse yambaye agasengeri k'ibara ry'icyatsi.

Umusore w'umunyafurika, uryamye hasi agaramye, arimo gukora siporo ahinnye akaguru ke k'iburyo ndetse arambuye ak'ibumoso.

Inkweto ndende z'umukara, ziriho agapapuro kagaragaza ko ari nshya, ziri ahantu mu muhanda w'igitaka ndetse zifite n'imashini.

Umusore w'umunyafurika uri muri siporo, arararamye, ari kwimena amazi mu maso ari mu icupa ndetse ari gukoresha ukuboko kwe kw'ibumoso kandi yambaye umupira w'ibara ry'umukara.

Umukobwa w'umunyafurika, ari gukora siporo, ananura mu nda ndetse yicaye hasi yambaye imyenda yabugenewe kandi abohesheje imisatsi.

Umusore w'umunyafurika arimo kunywa amazi, amazi meza ndetse ari mu icupa ryiza rifite isuku, akoresheje akaboko kiwe k'ibumoso.

Umugabo uri kunywa amazi akoresheje akaboko ke k'iburyo, ari kuyanywera mu icupa ry'ibara ry'ubururu, yicaye ku masikariye, afite terefone mu kuboko kwe kw'ibumoso.

Umukobwa w'umunyafurika, wicaye hasi, arimo gukora siporo, ananura akaguru ke k'iburyo, ak'ibumoso ko karahinnye, arambuye amaboko, ndetse yambaye na ekuteri.

Abantu babiri umuganga w'umukobwa ndetse n'umusore urwaye wicaye ku gitanda cyo kwa muganga. Umuganga yambaye imyenda, yabugenewe ndetse ari kwita ku murwayi, amupfuka ku kirenge.

Umudamu n'umwana bishimye bicaye ku gitanda cyo kwa muganga mu cyumba, harimo ibitanda byinshi ndetse ku ruhande hirya ku gitanda kibanza, hari undi muntu uryamyeho yubamye, hari n'inzitiramibu nyinshi ndetse n'amarido y'amabara atandukanye.

Umusore usutamye arambuye akaguru ari muri siporo arimo kunanura akaguru k'iburyo, yambaye isaha, ndetse yambaye umwenda w'igice cyo hasi, hejuru ntabwo yambaye.

Abantu babiri b'abagabo, umugabo umwe yagiye kwa muganga kwipfukisha bari banamuhaye igitanda, muganga ari kumupfuka amwitaho ndetse amuha n'imiti bivuze ko yari yarakoze impanuka.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'akazi, imbere ye hari ameza ariho ikaye, igitabo ndetse n'ikaramu na mudasobwa.

Umukobwa w'umunyafurika, wari muri siporo ari kunywa amazi ari mu icupa ryiza. Akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo, ndetse yambaye imyenda yabugenewe ya siporo.

Umusore w'umunyafurika, ari gukora siporo yambaye ekuteri ndetse ari kunanura amaguru, yambaye imyenda yabugenewe ndetse aho ari kuyikorera ni ah'umweru.

Umusore w'umunyafurika ari muri siporo yambaye imyenda yabugenewe ndetse yambaye kuteri arimo kunywa amazi ari mu icupa ryiza ndetse akoresheje akaboko ke k'ibumoso.

Umusore wambaye ekuteri z'ibara ry'umweru, ari muri siporo amanitse amaboko yombi, yambaye isaha mu kaboko ndetse yambaye n'imyenda ya siporo.

Umukobwa uri gukora siporo, yicaye mu byatsi yunamye, amaboko ye yose afashe ku nkweto yambaye, abohesheje imisatsi ndetse n'ikirere.

Umugabo w'umunyafurika, wambaye umupira w'umukara, arimo kunywa amazi meza asukuye, ari mu icupa ryiza rifite isuku, akoresheje ukuboko kw'iwe kw'ibumoso.

Umukobwa w'umunyafurika ari muri siporo, yambaye imyenda yabugenewe ndetse arimo kunywa amazi ari mu icupa akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo.

Umugabo w'umunyafurika, wambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura gatoya, ari gukora siporo, arambura amaboko ndetse n'amaguru, akaboko ke k'ibumoso gafashe hasi, akandi ntabwo gafasheho.

Umuntu uri muri siporo wunamye, yambaye imyenda ya siporo ndetse aboshya imisatsi, ni umukobwa w'umunyAfurika, ari kunanura amaboko ndetse n'amaguru.

Abantu benshi bahetse ibikapu bari kugenda, bari kureba ahantu hari guturuka amazi menshi mu musozi ndetse batunguwe cyane bumiwe.

Agacupa kanini karimo umuti ufite ibara ry'icyatsi, ukozwe mu muravumba ndetse hariho n'ibindi bishushanyo by'indi miti bifashishije, kugira ngo bakore uyu muti wihariye witwa umuravumba.

Igiti kirekire cyane gifite amashami, gihinze mu byatsi byinshi, ikirere cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibicu byo mu ibara ry'umweru.

Agacupa karimo umuti gakondo, kanditseho amagambo menshi asobanura ibyo bakozemo uwo muti, handitse ko ari umuravumba, ndetse hariho n'ifoto y'icyo kimera.

Igiti cy'ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, kivura inkorora ndetse gihinze hagati y'amazu abiri, inyuma yacyo hari ibindi biti bisanzwe.